Itangazo rimenyesha rinashishikariza aborozi b'amatungo magufiya yo mu rugo, kugira uruhare mu kwita ku matungo yabo, bashyiraho inzitiriro zishobora gutuma amatungo yabo atabasha kuba yazerera cyangwa ngo yangirike.

Ikiganiro n'abanyamakuru aho uwatumiwe abazwa ibibazo n'abanyamakuru akabisubiza, naho abanyamakuru bagafata ayo majwi bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo nka telefone ndetse n'indangururamajwi.